Kwigisha mu mashuri y'incuke ni akazi katoroshye, kuko mwarimu aba agomba kwisanisha n'abanyeshuri yigisha kugira ngo bakurikire kandi babyitayeho. Abarimu bigisha muri aya mashuri ni ab'agaciro gakomeye.

Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere uburezi, abanyeshuri baba bagomba guhabwa udutabo twanditsemo inkuru zisekeje, cyane cyane abana bo baba bagomba guhabwa ibitabo birimo inkuru zisekeje ariko zifite n'ibishushanyo kugira ngo bibakurure.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, baba bagomba gushishikarizwa kwigira mu matsinda kubera y'uko abanyeshuri bigira mu matsinda, barafashanya cyane bagasobanurirana, hari n'igihe usanga hari umunyeshuri ubyumva cyane, akabisobanura kurusha n'uko mwarimu yabikumvisha.

Abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke bakunda kuvunika. Baba bagomba kwita ku bana haba mu kubigisha ndetse no kumenya ibindi bikorwa bagiye guhugiramo. Iyo bagiye gukina mwarimu arabaherekeza kandi kubigisha na byo bisaba gushyiramo imbaraga, mbese ugomba kuba ufite umuhamagaro wo kwigisha abo bana.

Abanyeshuri bakunda gukina iyo batari kwiga, iyo bahuriye ahantu bagakina rero iyi mikino itandukanye, bibafasha kumenyana, kumenyerana ndetse no gukunda, uyu ni umuco mwiza uba ugomba kuranga abanyeshuri, bagakura bafite ubufatanye.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke, batangira amasomo yabo babanje guca ku ruziga, babyita kujya ku ikaze k'uruziga, aba banyeshuri rero iyo bagiye hano, baba bari kumwe n'abarimu babo, bakabaganiriza mbere y'uko bajya mu ishuri.

Amashuri y'incuke ari gufasha iterambere ry'abana, kubera ko abana barigishwa cyane cyane uburyo bw'imibanire hagati yabo, ku buryo batangira amashuri abanza bazi kubana, bityo bakiga neza badashyamirana.

Iyo wagiye ku ishuri ye ntabwo uba ugomba gukina gusa cyangwa ngo wicare mu ishuri wige gusa, haba hagomba no gukorwa ibindi bikorwa bizamura impano nko kuririmba, kubyina gukina mbese buri wese impano ye afite akabasha kuyigaragaza kandi igatezwa imbere.

Amashuri y'incuke, akorwamo n'abarimu babifitiye umuhamagaro, iyo umwarimu atari kwigisha abanyeshuri ku rwego bishimira bashobora no kuva mu ishuri, niyo mpamvu abarimu batoranywa ngo bajye kwigisha muri aya mashuri bagomba kuba ari abantu koko babikwiye.

Iyo ugiye aho abana bo mu mashuri y'inshuke bateranira, ubona hari ibyishimo cyane kubera yuko abarimu bisanisha n'abana bigisha ndetse rimwe na rimwe n'ababyeyi bamwe bajya baza gusura abana babo, bakagirana urugwiro bakishima.

Ubumenyi niyo nkingi ya mwamba mu iterambere, Abanyarwanda bose bagomba kwiga bahereye ndetse mu mashuri y'inshuke. Iyo umwana yize akiri muto, akura agororokeye igihugu ndetse n'Imana.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke baba bagomba kugaburirwa, bagahabwa igikoma kugira ngo baticwa n'inzara, tugomba kwibuka ko aba bana baba bakiri batoya ntabwo bagomba kumara igihe kinini rero batararya kugira ngo babeho neza kandi babashe gukura neza.

Si byiza ko abana bato cyane boherezwa ku ishuri bonyine, niba umwana ubona ko adakuze bihagije aba agomba kujyana n'umuntu umuherekeza akamugeza ku ishuri kugira ngo atazahurira n'impanuka mu muhanda akaba yakomereka.

Amashuri yaje akemura byinshi mu Rwanda, Abanyarwanda benshi barize bamenya gusoma, batera imbere ndetse bamenya no gukora ubucuruzi bugezweho buri ku rwego Mpuzamahanga, iri shuri na ryo riri gufasha cyane abanyeshuri baryigamo ngo bazigirire akamaro.

Umuryango w'Abibumbye ku isi hose, uhuza ibihugu byinshi cyane birimo n'u Rwanda, ibi bihugu byose bishishikarizwa guteza imbere uburezi budaheza, abana bakigishwa kandi bagahabwa n'ifunguro ku ishuri kugira ngo bige neza, iki ni ikigo cy'amashuri na cyo kiri muri iyo gahunda.

Ubwiherero ntabwo buba bugomba kubura ahantu runaka hateranira abantu, kubera ko abantu benshi ntabwo bashobora guhura bose bameze kimwe, hari ababa bashobora kwicunga ntibakerere kubukoresha, ariko haba hari n'abandi baba bafite uburwayi butandukanye babukenera kenshi.

Abanyabugeni bafite ubuhanga buhanitse kubera ukuntu bazi gushushanya ibishushanyo byiza, umunyabugeni ashobora gushushanya igishushanyo ndetse akaba yashushanya n'umuntu wamureba neza neza ukabona ni we, mbese ukagira ngo ni nk'ifoto.

Icyorezo cya maribulu cyigeze guhangayikisha abaturage batuye isi kubera ko na cyo cyateje impagarara ariko ubuyobozi bwagishakiye igisubizo kuko abaganga bakoze uko bashoboye baragihashya kiragenda.

U Rwanda rwashyize imbaraga nyinshi mu kubaka ibyumba by'amashuri menshi umwaka ushize, mu rwego rwo kugabanya ubucucike bwari buri mu mashuri, aho wasangaga abana nka mirongo itanu bari mu ishuri rimwe, ntibabashe kwiga neza. Iyi ni intambwe ikomeye u Rwanda ruri gutera.

Ibigo by'amashuri biba bigomba kugira n'ubusitani, ubu busitani abanyeshuri ntabwo bagomba kubukiniramo, kugira ngo ibyatsi byaho bituma, ahubwo baba bagomba kubwitaho ndetse bagafata n'igihe nka rimwe mu cyumweru, bakabuvomerera kugira ngo indabo zabwo zikure neza.

Ibigo by'amashuri abanza byo mu cyaro, usanga nta nzitiro zihari zibuza abanyeshuri kwisohokera uko biboneye, dukwiye rero kugerageza izi nzitiro zikubakwa kugira ngo abanyeshuri bajye baguma mu bigo bigamo.

Hari gahunda nziza ya Leta yashyizweho yo gutanga mudasobwa kuri buri mwana wiga mu mashuri abanza, iyi gahunda izatanga umusaruro mwiza cyane. Kuko abana bazamenya gukoresha mudasobwa bakiri batoya ndetse bamenye n'ikoranabuhanga.

Ubumenyi budaheza buri wese yisangamo nibwo tugomba kwimakaza, aha ngaha turabona inyuguti zifashishwa n'abanyeshuri ariko babana n'ubumuga bwo kutavuga ndetse no kutumva, izi nyuguti zibafasha na bo mu gukomeza gukwirakwiza amakuru cyangwa se kuganira n'abandi.

Abanyeshuri bakunda guteranira ahantu bakaganira iyo batari kwiga, rimwe na rimwe baranasererezanya ugasanga abibifura banarira, si byiza ko duserereza cyane umunyeshuri mugenzi wacu iyo turi kumwe.

Umunyeshuri wize atariye ntashobora gufata, tugomba kugaburira abana ku ishuri mu rwego rwo kugirango babashe kwiga neza, iyi ni imwe muri gahunda nziza yashyizweho na leta y'u Rwanda yo kugaburira abana ku ishuri.

Abana bato baba bagomba kugana ishuri, birababaje kubona umwana muto ushobora kuba atiga, iyo ubonye umwana wambaye iniforume uvuye ku ishuri, wumva wishimye kandi unezerewe kuko uba ubona ko ahazaza he hazaba heza.

Mu nsengero hakunze kuba hateguye neza. Abenshi tuzi za kiliziya, ndetse n'imisigiti, aho ugomba kuba usangamo umwanya mwiza wicaramo, umuvugabutumwa, cyangwa padiri, cyangwa shehe, kugira ngo abwirize abitabiriye iteraniro runaka, cyangwa misa.

Mu mashuri abanza haba isomo bita siyanse mu mwaka wa gatandatu, muri uyu mwaka rero biga ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubuhinzi, bibamo ingorofani, imihoro, amarozwari, ibitiyo n'ibindi.

Biba byiza ko ibigo by'amashuri abanza biba bifite n'amashuri y'inshuke, kugira ngo bafashe abana bize muri aya mashuri y'inshuke kuzahakomereza, bityo bakajya biga ahantu bamenyereye no kuhajya ntibibagore.

Amashuri abanza nayo asigaye ari kwigishwa ikoranabuhanga, aho mu isomo tuzi nka siyanse abanyeshuri bari kwigishwa, ndetse ugasanga bafite n'ubumenyi ku buryo bashobora gukoresha nka mudasobwa.

Kugira ngo umuntu abeho akenera intungamubiri, izi ntungamubiri zikomoka mu byo turya, byaba ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga, indyo yuzuye igomba kuba igizwe n'ayo moko atatu uko tuyavuze haruguru.

Ahantu heza hateranira abantu benshi, hagomba kubaho hafite ubusitani butanga umwuka mwiza, ubu busitani buba burimo ibiti byiza, bikurura umwuka mwiza kandi n'ababireba bakabona bibereye ijisho, bakumva bahishimye.

Amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, rimwe na rimwe ajya agira intebe zishaje. Iyo intebe zishaje ziba zigomba gusimbuzwa, hakazanwa inshyashya. Ariko abanyeshuri na bo mu gihe bari kwiga, bagomba kwita ku mutungo rusange w'ibigo byabo, ntibangize izo ntebe.

Ubu hasigaye haraje uburyo bw'ikoranabuhanga bw'inzogera, naho kera tukiga mu mashuri abanza wasangaga hari icyuma twahondagaho bitaga kadende. Iki iyo bagikubitagaho wamenyaga ko ubwo amasomo arangiye.

Amategeko n'amabwiriza bigenga ikigo runaka biba bigomba gushyirwa ku nkuta, kugira ngo abahagenda babisome bamenye uburyo bitwara, ndetse banirinde gukora amakosa mu gihe bari ahantu badasanzwe bamenyereye.

Mu mashuri abanza abanyeshuri bakunda kubaho bishimye, bashyiramo imbaraga zishoboka zose kubera ko baba bagaburiwe bafite imbaraga, umuntu utariye ntashobora kwiga, abanyeshuri rero bagomba guhabwa ibiryo byinshi kandi byiza.

Ibigo byose biba bigomba kwandika ingengabihe y'amasomo, baba bagomba gushyiraho isomo n'igihe rizigirwa kugira ngo abanyeshuri niba bagiye kwiga isomo babe baryiteguye ndetse n'abarezi iyo ngengabihe ibafashe kumenya ngo ngomba kuba ndikwigisha mu ishuri runaka.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza nabo bajya bigira mu matsinda, kwigira mu matsinda ni kimwe mu bifasha abanyeshuri kwiga neza kandi ibyo bumva bakabisobanurira, kuko hari ubwo mwarimu asobanura ibintu ntubyumve neza, mugenzi wawe akabikumvisha kurushaho.

Ibigo by'amashuri bigomba kugira inyubako nziza kandi zitamanzuye, ku buryo buri wese ugomba kujya kubyigamo aba yumva yishimiye kuhiga kubera ko haba hari inyubako nziza zibereye kandi zinogeye. Ni byiza ko rero buri munyeshuri yiga mu kigo yishimiye.

Hari igikoresho cyitwa kadende cyasangwaga ku mashuri ya kera ariko n'ubu hari amashuri akigikoresha, akifashisha mu gusoma kugira ngo abanyeshuri bamenye ko igikorwa runaka gihindutse, ibi byuma ariko rero byasimbuwe n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bw'inzogera zigezweho.

Isura y'u Rwanda ku rwego Mpuzamahanga ni nziza cyane. Ibi biraterwa n'uko rwashyize imbaraga mu burezi bityo rukagira abantu b'injijuke benshi kandi b'abahanga. Bajya ku isoko ry'umurimo ugasanga ari bo biganje.

Ubumenyi ni inkingi ya mwamba mu iterambere. Nta bumenyi ubwo n'Igihugu nticyatera imbere. U Rwanda rwacu rwabishyizemo imbaraga, aho amashuri ubu aboneka hose kandi ku buntu. Nidukomeze twishimire Leta y'u Rwanda, ikomeje kuduteza imbere mu bumenyi budaheza.

Iyo abanyeshuri bavuye ku ishuri baragendana kugira ngo bamarane ubwoba, kuko hari abanyeshuri usanga bagira ubwoba, akaba atakwinyuza ahantu runaka. Ibi ni byiza rero ko abanyeshuri batuye mu gace kamwe, batahira rimwe.

Ishuri ryiza kandi ryareze benshi riherereye i Butare ryitwa Groupe Officier, abenshi bararizi cyane kuko ryareze benshi, ndetse ryanubatswe n'abazungu bakigera mu Rwanda.

Inyubako nziza cyane kandi ishimishije, iteye amabengeza ndetse n'uwahagera wese yumva yakwishimira kuyinjiramo, iyi nyubako ni ikigo k'ishuri kandi abanyeshuri bahiga bahora bishimye.

Ibirori mu bigo by'amashuri bifasha abanyeshuri kwishima, ibi birori bigaragaramo n'abarimu babo kugira ngo bisanzuraneho maze bajye babana kandi badatinyana abanyeshuri bisanzure ku barezi babo ndetse bababaze ibibazo bitandukanye.

Abanyeshuri bajya ku ishuri bishimye, ariko noneho mu gutaha ntiwavuga ukuntu baba bishimye kurushaho, kubera yuko aba yumva agiye kujya mu rugo bakamwakira neza, bakamuha ibyo kurya, na we akababwira ibyo yize, cyane cyane iyo akiri umwana muto.

Ikigo cy'amashuri cyitiriwe mutagatifu Elena Guerra, kirimo amashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'ay'incuke. Ibi birafasha cyane, kuko abahaturiye babashije kubona uburyo bwo kwiga kandi bigira hafi.

Tujye dukunda kwiga kandi tubishishikarize n'abandi ndetse n'abana bacu n'imiryango yacu n'abaturanyi bose muri rusange, umugani uvuga ngo: iyimijwe n'ikaramu ntiramburura, Abanyarwanda barawuzi kandi ababizi babona koko ko aribyo.

Icyumweru gatulika cy'uburezi, gikunda kuba mu kwezi kwa gatanu, aha ngaha abanyeshuri bagira amarushanwa atandukanye, harimo siporo, kubyina ndetse no guhanga ibindi bihangano nk'imivugo, ibi bifasha guteza imbere uburezi.

Kuririmba ni kimwe mu bishimisha abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, iyo umunyeshuri yiga mu mashuri yisumbuye, akajya muri korari barasohoka bagiye nko kuririmba hanze y'ikigo, bikamushimisha cyane kuko abanyeshuri biga babamo bakunda gusohoka cyane.

Iyo utuye ahantu heza hari ibiti, uba usanga ubona umwuka mwiza, maze ugahumeka neza. Iyo ahantu utuye naho hari umwanda, cyangwa hegereye ahantu hari ibikorwa runaka bitanga ivumbi, ntabwo ubaho neza, kuko ushobora no kugira ibibazo by'ubuhumekero.

Umukino w'intoki na wo ukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, uyu mukino bita Volleyball, ukunda gukinwa n'abantu barebare cyane, ariko uryohera ijisho cyane. Abakunzi bawo iyo bagiye kuwureba baba bishimye.

Mu bigo by'amashuri hashyizweho uburyo bwo kugaburira abanyeshuri ku ishuri, barya ibiryo byiza cyane. Ibiryo birimo imboga, imbuto, umuceri, akawunga, ndetse n'ibindi bituma bagira ubuzima bwiza, kandi bakiga neza.

Abanyeshuri baba bagomba guhabwa impanuro zitandukanye mu nama, izi mpanuro bashobora kuzihabwa n'umuyobozi w'ikigo cyangwa abarezi babo, abanyeshuri na bo kandi baba bagomba gukurikiza izo nama bahabwa buri gihe.

Kwiha Imana ni intambwe ikomeye mu kugana ijuru, umubikira ni umuntu wihaye Imana w'umudamu ariko udafite umugabo ndetse wiyemeje kutazashaka umugabo ubuzima bwe bwose.

Mu Karere ka Nyamagabe hari umurenge witwa Cyanika, uwo murenge ugira ishuri ryisumbuye ry'ubumenyingiro ryabaye icyatwa mu Rwanda hose kubera ukuntu ritsindisha ndetse n'abanyeshuri bahize bakaba ari abahanga chane.

Ibigo by'amashuri yisumbuye bizwiho gutanga ubumenyi bwiza kandi butsitse, iyo wize mu ishuri ryisumbuye uhakura ubumenyi buhagije, watsinda neza ukajya no muri kaminuza ugatyaza ubumenyi bwawo.

Mu mujyi ndetse no mu cyaro haba hatandukanye cyane, kubera ko mu cyaro hari igihe usanga haca imodoka imwe gusa, abagenzi bayivundaniraho iyo ihageze, buri wese aba agira ngo itamusiga, mu gihe mu mujyi haca imodoka nyinshi abantu bakagenda kuzitega nta kavuyo.

Insengero nazo zikunda gufasha mu iterambere, kuko insengero nyinshi usanga zikunze kuba zifite n'ibigo by'amashuri, iyo rero ibi bigo by'amashuri byegeranye n'insengero, niho usanga abana bahize bafite ubumenyi kandi banateye imbere mu iyobokamana.

Ntitwakwibagirwa ukuntu twese tukiga mu mashuri yisumbuye, twabaga dutegereje umunsi wo gutaha, aba banyeshuri na bo biragaragara ko biga mu mashuri yisumbuye ariko baragenda bataguza bagana iwabo, bishimye kuko batashye umunsi wo gutaha wabo wageze.

Iyo babwiye umuntu ngo wumvira nka Save, baba bashatse kuvuga ko yumva nabi cyangwa se asuzugura. Abazungu bakigera mu Rwanda, umwami yabohereje i Save kubera ko yari atabizeye aravuga ati mugende abantu b'i Save nibabasha kubumva ubwo muzaba mushoboye.

Ubumenyi buhishe mu bitabo rero ntuzabumenya udasoma, jya ugerageza uko ushoboye ujye mu nzu z'isomero kandi usome ibitabo byinshi, kugira ngo ugire ubumenyi bwimbitse kandi buhagije.

Imikino ni ingenzi cyane kuko ifasha abantu gukora siporo, bakarambura umubiri wabo, imitsi yabo igakora neza ndetse n'ubwonko bugatekereza neza, umukino wa Volley ball nawo ukunzwe n'abatari bakeya.

Kugira ngo tumenye ko ibyo twize twabifashe tuba tugomba gukora n'amabazwa, iyo mwarimu yigishije amenya ko ibyo yigishije abanyeshuri babifashe igihe ababajije ndetse bagatsinda neza.

Inzu y'ibitabo cyangwa inzu y'isomero, iba ifite ibitabo byinshi cyane, hari abantu bajya biyita ngo ni imbeba zo mu bitabo, abo ni abantu bakunda gusoma ibitabo byinshi, bagakuramo ubumenyi butandukanye, natwe tujye dukunda gusoma.

Ishuri ryisumbuye ribarizwa mu karere ka Huye cyangwa i Butare, iri shuri ni icyatwa cyane kandi rirazwi kuko ryareze benshi, iryo shuri ryitwa Groupe officiel.

Mu mashuri yisumbuye usangamo ibibaho, ariko hari ibibaho bikoze neza cyane, ku buryo abarimu babyandikaho bumva babyishimiye . Ushobora kubyandika ukoresheje amacaki cyangwa marikeri bityo ugasanga rwose hari isuku.

Mu bihugu biteye imbere ndetse na hamwe mu mijyi mu Rwanda abana basigaye bajyanwa ku ishuri mu mamodoka. Iyo umwana agiye ku ishuri mu modoka agerayo atarushye, akabasha kwiga, agakurikirana amasomo ye neza atananiwe.

Ibigo by'amashuri bigira inzu mberabyombi, zihuza abanyeshuri iyo bagiye guhabwa impanuro ku bintu bitandukanye, abanyeshuri ukunze gusanga iyo bahuriye mu nzu mberabyombi, kuko baba bahujwe ari abo mu myaka itandukanye, baganira bakishima.

Mu bigo by'amashuri hajya hagaragaramo imico itari myiza ku banyeshuri bamwe na bamwe, iyo iyo mico myiza itari kugaragara ikigo kiba kimeze neza ariko mu gihe iyo mico ihari abarezi baba bagomba kubakoresha inama bakabaganiriza bakisubiraho.

Ibigo by'amashuri y'abasirimu biba bigomba kugira aho baparika imodoka, ibi ngibi bigomba gukorwa ahantu hose muri ibyo bigo kubera yuko iyo habaye inama cyangwa isurwa ry'abanyeshuri, ababyeyi babo bazana imodoka rero baba bagomba kubona aho baziparika.

Imyanya y'inyuma ikunze kwicarwamo n'abana badashaka kwiga bakurikiye mwarimu cyangwa se bashaka gukora andi makosa, iyo mwarimu yigisha aba agomba kwita kuri aba banyeshuri bicara mu myanya y'inyuma kugira ngo amenye ko na bo bakurikiye.

Impamvu ya mbere yo kujya mu ishuri ni ukugira ngo ahazaza hawe hazabe heza, iri shuri rifite intego nziza rero, ivuga ko twubaka ahazaza heza h'abanyeshuri bigishije.

Ishuri nderabarezi rya Muhanga tuzi nka TTC Muhanga, rifite indangagaciro na kirazira byiza, bazwiho gutanga ubumenyi bwiza kandi bwimbitse, ku buryo umunyeshuri wese wahize aba ari intiti.

Abanyeshuri bagiye gukora ubushakashatsi bagomba kwambara amataburiya. Uyu ni umwenda ugomba kujyanwa mu bushakashatsi kuko iyo utawambaye mwarimu ntabwo ashobora kukwemerera kujya aho abandi bari guteranira bakora ubushakashatsi.

Inyubako nziza y'amashuri ya etaje, iyi nyubako yakira abanyeshuri benshi kubera ko etaje iba yubatse igereretse, bituma rero hari inyubako ishobora kwakira abantu benshi kandi iri ku buso buto.

Abanyeshuri bateraniye ahantu hamwe bari mu nama, bafite umunyeshuri w'umuyobozi wabo uri kubabwira, ari kubabwira ko bagomba kwikosora ku makosa bajyaga bakora, bakitwara neza bagakurikiza amategeko y'ikigo yose uko bayahawe.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu. Iyo udakora siporo ntabwo umubiri wawe uba umeze neza, ni hahandi usanga urwaragurika ndetse umubiri wawe ntube ufite ubushobozi bwo kurwanya indwara. Tugomba kwitabira imyitozo ngororamubiri tubishyizeho umwete.

Kugira ngo umenye umutekano w'ahantu utuye cyangwa ikigo runaka, hagomba kuba hari irembo rinini cyane abantu bakunze kwita porotaye, iri ngiri iyo warikinze nta muntu uba ushobora kwinjira ahantu hawe atabifitiye uburenganzira.

Abanyeshuri bagomba kwiga mu buryo bw'ikoranabuhanga, igikoresho cyitwa projecteur kiri kubifashamo cyane kubera ko ibintu biga babifotora ku rukuta abanyeshuri bakajya babyiga banabibona imbere yabo ibyo mwarimu avuga.

Inyubako nini kandi zubatswe mu buryo bugezweho, zifasha abahateranira kumva batekanye, izi nyubako zikenerwa n'ibigo by'amashuri, amavuriro cyangwa n'ibigo by'ubuyobozi runaka, aho ushobora kwaka serivisi zitandukanye.

Mbere yuko amasomo atangira abanyeshuri baba bagomba kubanza bagakora amasuku mu mashuri yabo kugira ngo bigire ahantu hasa neza. Isuku ni isoko y'ubuzima, tujye tuyishyigikira kandi tuyiteho.

Ishuri ry'ubumenyingiro ishami rya Huye riherutse kugira isabukuru y'imyaka mirongo itatu rimaze rishinzwe, hari ibirori bikomeye cyane kandi bishimishije, ababyitabiriye bose batashye bishimye.

Ubukangurambaga bugomba gukorwa ndetse no mu bigo by'amashuri. Iyo abanyeshuri bashishikarijwe ikintu runaka, usanga babyumva vuba. Tujye dukora ubukangurambaga, ariko kandi ntitwibagirwe no kubikorera mu bigo by'amashuri.

Umukino w'amaboko usaba imbaraga nyinshi kandi no kwitonda witwa Basket. Uyu mukino abakinnyi bawo barawukunda n'ubwo usaba imbaraga nyinshi, abawukina babigize umwuga bahembwa agatubutse.

Iyo ugiye mu ishuri uhita uhibwira, haba harimo ikibaho ndetse hari n'aho mwarimu ashobora gutereka nka mudasobwa ye cyangwa telefone igihe ari kwigisha, hanyuma akabasha kwandika kuri icyo kibaho atekanye.

Imikino itandukanye itanga uburyo bwiza ku bacuruzi kubera y'uko iyo umukino wabaye uba ushobora kugenda ukishyura ayo makipe ari gukina, hanyuma bakamamaza ibikorwa byawe ukabona abakiriya benshi.

Mu mashuri abanza n'ayisumbuye dusangamo ikibaho abarimu bandikaho iyo bari kwigisha abo banyeshuri, ariko iyo ugeze muri kaminuza ho ntabwo usangamo ibibaho, ahubwo usangamo ibindi byiza cyane bandikishaho marikere.

Umuntu kugira ngo atere imbere mu bumenyi bwe aba agomba gusoma ndetse kandi agasaba ibitabo byinshi, iyi ni inzu y'ibitabo igizwe n'ibitabo byinshi aho bifasha buri wese kwihugura mu bumenyi, asoma inyandiko zitandukanye.

Abana bato ntibaba bagomba kugenda bonyine kabone n'iyo baba bari ku ishuri, baba bagomba kugendera hamwe mu matsinda kugira ngo batinyurane, umwana umwe ashobora guhura n'impanuka, cyangwa se akaba yahura n'ibikururanda nk'inzoka bikamugirira nabi.

Umuceri uri mu binyampeke bitera imbaraga, kandi bikunze kuribwa n'abantu benshi. Abanyeshuri ku ishuri iyo bagaburirwa, na bo bagomba guhabwa indyo yuzuye. Igomba kuba ifite ibyo bitera imbaraga, imboga, imbuto, ndetse n'ibyubaka umubiri.

Mu mihanda ukunze gusangamo abanyeshuri bari kugendana cyane cyane mu masaha yo gutaha, ibi rero ni byiza cyane kuko iyo umunyeshuri ari kugenda mu muhanda wenyine ashobora guhura n'abantu bakamugirira nabi, ariko iyo ari kumwe n'abandi ibi ntibyapfa kubaho.

Iyo umuyobozi w'ikigo yaremesheje inama abanyeshuri be, aba agomba kubaganiriza kandi akabareka bakisanzura, si ngombwa ko buri gihe umunyeshuri arinda iyo agwa mu makosa, ahubwo ubuyobozi bw'ikigo buba bugomba kubabwira buti ni mwirinde ibi, aho kubahana baguye mu makosa.

Ni byiza ko tuzajya tugenda mu mihanda twitonze, tukareba impande zose mbere yuko twambuka umuhanda ndetse kandi n'abatwaye ibinyabiziga bagomba kwitonda kuko hari igihe usanga nko mu mihanda harimo abana cyane cyane mu gihe bavuye ku ishuri, ni ngombwa rero kubyitondera kugira ngo tutazabagonga.

Hafi y'inyubako haba hagomba kuba hari ubusitani bwiza butanga umwuka mwiza ndetse hakaba n'uduhanda dukoze neza, ku buryo abantu bagana iyo nyubako, batagenda banyuze nko mu byondo cyangwa mu ivumbi, bajya mu nyubako ugasanga bayanduza.

Inyubako nziza cyane kandi irimo intebe nziza cyane rwose z'imisego, ikaba iyi nyubako ari na nini ifite ibyumba byinshi mbese kuba uyirimo uba wumva wisanzuye kandi utekanye.

Iyo uri gusoma bya nyabyo kandi ibyo uri gusoma uri kubyumva, usanga wishimye. Aha turabona umugabo ushobora kuba ari gusoma inkuru isekeje cyane, maze nawe yamwenyuye yasetse kubera ukuntu iyo nkuru iri kumusetsa cyane.

Iyo ufuze imyenda uba ugomba no kuyanika kugira ngo yume. Ibigega na byo biri kugira uruhare runini mu gufata amazi ashobora kwifashishwa mu gufura n'imyenda, mu koga cyangwa se kuvomera imyaka iyo uri umuhinzi.

Abanyarwanda bose bahawe uburezi budahezwa babifashijwemo na Leta y'u Rwanda, si ibyo gusa kandi kuko na kiliziya ibigiramo uruhare, hari na kaminuza ya kiliziya iba i Save yigisha abantu rwose ugasanga bafite ubumenyi bwiza.

Ibyumba by'ubushakashatsi ni byinshi cyane muri kaminuza y'u Rwanda, biba bifite ibikoresho bihagije ndetse haba harimo n'intebe zo kwicaraho, kugira ngo mu gihe abantu bari gukora ubushakashatsi, bajye babukora ariko bicaye batekanye.

Ni byiza ko amategeko n'amabwiriza bigenga ikigo runaka bigomba kwandikwa kandi bigashyirwa ahantu habonwa na buri wese, kugira ngo nujya gusura aho hantu cyangwa se wagiye kuhasaba serivise runaka, ujye umenya ibyo ugomba kwitwararika.

Inyubako zigezweho za etaja dukunze kuzisanga mu migi ariko no mu byaro hari aho zigiye ziri, ibi bituma abahatuye iyo bageze mu migi batarangara cyane kuko izi nyubako baba baranazibonye iwabo mu byaro.

Inyubako y'amashuri meza kandi agezweho ndetse ifite n'ikoranabuhanga rigezweho tuzi nka porojekiteri, iri koranabuhanga riri gufasha cyane mu iterambere ry'abanyeshuri kuko bari kubasha kwiga, ibyo mwarimu avuga babireba imbere yabo banabisoma.

Ubushakashatsi burakomeje, kandi burarimbanyije ino mu Rwanda. Aba ni abashakashatsi uri kubona ahangaha, ndetse bafite n'intego yo kuvumbura, mu rwego rwo gukomeza kuzamura ubumenyi mu banyarwanda.

Tujye duharanira kurwanya gutura ahantu hatemewe ndetse hatari heza, iyo utuye nk'ahantu mu ishyamba cyangwa hegereye ibihuru, uba ushobora kurwara indwara ya Malariya, kubera y'uko imibu ibamo ibyo bihuru, ishobora kukudwinga ikagutera Malariya.

Hari ikigo mu Rwanda gishinzwe ubuzima ari cyo RBC, iki kigo gifatiye runini Abanyarwanda kubera y'uko gikurikirana neza uburyo duhabwa serivisi z'ubuvuzi nta makimbirane ajemo kandi tukabona imiti myiza twifuza.

Abanyeshuri biga ubuganga baba bagomba gukora imyitozo cyane, aha ndavuga gukora imyitozo niba bagiye nko kwiga ibice by'umubiri runaka, bashobora kwifashisha imirambo y'abantu bapfuye, bakabaga kugira ngo bamenye icyo gice neza.

Imiti niyo ya mbere kugira ubuzima bwacu bugende neza, nubwo mvuze ngo niyo ya mbere nyamara siyo yakabanje, ariko kandi iyo umuntu yananiwe kwiyitaho mu mirire ararwaragurika agakenera imiti, niyo mpamvu rero na yo ari ingenzi kugira ngo tubashe kubaho neza.

Mu buryo bwo gukwirakwiza ikoranabuhanga, iterambere ryageze ahantu hose, usigaye usanga ahantu henshi hari inzu mberabyombi zifite n'ikoranabuhanga nk'uburyo bw'itumanaho bwiza kugira ngo buri wese witabiye igikorwa runaka abashe kumva ndetse asobanukirwe.

Ubutwari bushobora kugaragazwa ahantu hose umuntu ari, haba mu burezi ndetse no mu gisata cy'ubuyobozi, aho ushobora gukora ibikorwa by'impangare, bityo ifoto yawe ikaba yamanikwa ahantu, kugira ngo abantu bajye babona iyo foto bibatere gukora babishyizemo imbaraga.

Ikoranabuhanga rirakataje kandi riri guteza imbere Abanyarwanda bose, iyo umuntu azi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, aba ari ntagereranywa kubera y'uko iyo agiye guhangana ku isoko ry'umurimo, usanga atsinze abandi bahanganye.

Iki ni icyapa kiri kuri Kaminuza y'u Rwanda, kiyobora abagiye kuyisura aho bagomba kunyura, iyo unyuze kuri uyu muhanda, ukirebaho hanyuma ukareba akarongo kaherekeza bitewe n'aho ushaka kujya.

Iyo witabiriye inama aba ugomba kujyana n'agakayi, kugira ngo wandikemo ibyo bari buvugire mu iyo nama. Rimwe na rimwe hari ubwo bavuga ibintu utari usanzwe uzi, bikaba ngombwa rero kubyandika kugira igihe cyose uzajye ubyibuka, maze ubimenye neza.

Kaminuza y'u Rwanda ifite inyubako nziza kandi zigezweho, ni nyinshi kandi zifasha n'abanyeshuri benshi kuhigira batekanye, iyo hari ishuri ridafite abari kurikoresha ushobora kuryicaramo ugasubiramo amasomo yawe.

Hari intebe nziza zigezweho, zikoze kandi mu buryo bugezweho, ku buryo usanga intebe nyinshi zitondetse ku murongo umwe, bityo zikabasha kwakira abantu benshi bazicaraho. Izi ntebe zikoreshwa cyane cyane nko mu mashuri, aho usanga abanyeshuri baba bagomba kwicara ari benshi ariko begeranye.

Resitora ni inyubako iba itangirwamo ibyo kurya, ifasha rero abantu bari ku ngendo kuko ntabwo waba uri kurugendo ngo ujye guteka, ndetse n'abandi bantu b'urubyiruko baba batarashaka ngo babe bafite ingo zabo babamo, kuko bakenera kurya kandi umwanya wo guteka ushobora kubura.

Iyo witabiriye igikorwa runaka ugasanga nta ntebe zihari icyo gikorwa kirakubihira, ibi biterwa n'uko unanirwa vuba ndetse ukanarambirwa guhagarara umwanya munini ukumva wakwitahira.

Inyubako nshyashya ziba zigomba kubabwamo, na ho izishaje abantu bakazivugurura, byaba na ngombwa bakazisenya bakubaka izindi zijyanye n'iterambere, iyo uri ahantu hatari heza, uba ushobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga.

Icyorezo cya Korona Virusi, cyigishije abantu uburyo bwo gukaraba intoki, aho usigaye usanga inyubako nyinshi ziba zifite ahantu abantu bakarabira intoki, ibi byimakaza isuku kuko mbere barabitubwiraga ngo iyo ugiye kurya ubanza gukaraba intoki abenshi ntibabyumve.

Kwamamaza ni bimwe mu bituma ubucuruzi butera imbere, ibikorwa byawe nubyamamaza bizabonwa n'abantu benshi ndetse babiteza imbere, jya uharanira kwamamaza ibyo ukora kugira ngo abantu babimenye.

Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye hari ivuriro ryiza. Nta muntu wiga aha hantu ujya ugira ikibazo kubera yuko iyo wumvise utameze neza, ugana iryo vuriro bakagufasha, ukiga umeze neza.

Inyubako ziteraniramo abantu benshi ziba zigomba kugira n'ubwiherero kandi bwiza kugira ngo umuntu aruhuke igihe yumva ashaka kwiherera ajyeyo, maze abe ameze neza, abashe gukora neza icyamuzanye nta mbogamizi.

Imihanda y'amapave na yo irakomera, iyo umuhanda w'amapave wubatse neza ujya nko mu kigo runaka, umara igihe kirekire kandi bifasha abahagana kuhagera batanduye kuko baba banyuze ahantu heza.

Amashuri y'ubumenyingiro ndetse na za kaminuza, nibyo nkingi yamwamba mu iterambere ry'igihugu, dore abanyarwanda bamaze gutera imbere cyane kubera yuko aya mashuri yahazanywe kandi ari kwigisha abantu benshi bagasohokana ubumenyi buhagije.

Iyo ugiye nk'ahantu habereye inama usanga abantu baba badakurikiye, aha ngaha muri iyi nyubako turi kubona, ni abantu bari mu nama bakurikiye ariko harimo n'abarangaye bari kureba umugabo uri ku mafoto.

Hari igihe abanyeshuri bajya bajya mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi, ugasanga bahabonye ibikoresho bitandukanye bibateye ubwoba, iyo ubonye igikoresho ukabona utakizi ntabwo ugira ubwoba, ahubwo usobanuza uwo mwajyanye akagusobanura ukamenya uko gikoreshwa, aho kugihunga.

Ibitabo birifashishwa cyane mu kwiga, wize udasoma ibitabo ntabwo ubumenyi bwawe bwaba bufite ishingiro, ibintu byose wamenye uba ugomba kuba ufite n'ikigaragaza aho wabikuye, ukavuga uti umuvumbuzi runaka yabivuzeho gutya.

Ahantu hahurira abantu benshi hakunze kuba hari imbuga nini zisasheho amapave, ku buryo abantu bajya kugera ku izo nyubako cyane cyane iyo bagiye kwinjiramo imbere batanduye, ubwo nta vumbi baba bafite cyangwa ibyondo mu gihe cy'imvura ngo banduze izo nyubako bagiye kujyamo.

Hari igikoresho cyaje ndetse kiri gufasha cyane nko mu nama, iki kizwi nka projecteur inzu mberabyombi zose zazanye iri koranabuhanga, mu rwego rwo gufasha abitabiriye inama kubona ibyo bari kubwirwa ku nkuta babimuritseho.

Inyubako zigezweho tuba tugomba gusangamo n'ikoranabuhanga, haba uburyo bw'amashanyarazi adacikira ku buryo abahari bashobora kuba bakora igikorwa runaka nko gucagira amatelefone n'amamashini yabo, ndetse kandi n'ukeneye gukoresha igikoresho cyo kumurika ibintu ku rukuta nka porojegiteri akagikoresha.

Kaminuza y'u Rwanda igira imodoka nyinshi, zijyana abanyeshuri ahantu hatandukanye, mu rwego rwo gufasha kugira ngo niba bagiye nko gukora ubushakashatsi bahagere batiyishyuriye ngo bibabere imbogamizi yo gushaka ayo mafaranga.

Inkingi imwe ntigera inzu, Abanyarwanda kugira ngo batere imbere, tugomba guteza imbere ibice bitandukanye, aha twavugamo: nk'uburezi, ubuvuzi, ubuhinzi ndetse n'ubucuruzi.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bari gukora ubushakashatsi, bafite igikoresho bifashisha bareba utuntu dutoya cyane cyitwa mikorosikopi, utwo tuntu dutoya nitwo ushobora gusangamo na za mikorobe zitera indwara.

Mu cyumba cyiza kandi gikoze neza, haba hagomba kuba harimo akajerekani k'amazi meza atetse. Aya mazi umuntu arayanywa, akagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze. Ntiwabaho utanywa amazi.

Inyubako nziza kandi zigezweho, zigomba kuba zifite n'ahantu ho kuruhukira, zigomba kuba zifite ndetse n'ubusitani bw'indabo, ku buryo izo ndabo zitanga umwuka mwiza ku bantu bose basura izo nyubako, mbese bakumva bishimye banezerewe.

Imbeba yo mu bitabo, si imbeba nk'uko tuzi imbeba isanzwe, ahubwo ni umuntu ukunda gusoma ibitabo byinshi kandi bitandukanye. Uyu muntu aba afite ubumenyi butandukanye, ku bintu bitandukanye, ku buryo usanga ari umuhanga ndetse ibintu byinshi abiziho.

Iyo turi mu rugo dukenera n'umwanya wo kuruhuka, dushobora kuruhukira mu bikorwa bitandukanye, harimo nko kureba televiziyo, gukina imikino itandukanye, cyangwa se gusoma ibitabo, bityo tukumva dutuje mu mutwe.

Mu rwego rwo gufasha ubumenyi bw'abanyeshuri, ababyeyi nabo baba bagomba kugira inama zihoraho nko mu gihe runaka wenda nka rimwe mu gihembwe, kugira ngo ababyeyi baganire n'abarezi, bamenye uko abanyeshuri babo bitwara ku ishuri.

Mu cyumba cyo kuryamamo haba hagomba kuba aho umuntu arambika imyenda, ndetse n'aho utereka mudasobwa yawe igihe ushaka gusoma ugiye nko kwiga, uburiri bwawe bugomba kuba buteguye neza kandi bushashe neza n'igihe utaryamye.

Ikoranabuhanga rikomeje gukataza mu gihugu cy'u Rwanda, inama ziri kuba kandi nyinshi mu rwego rwo kungurana ibitekerezo kugira ngo iri koranabuhanga ritizwe umurindi, ibi bizafasha mu iterambere ry'igihugu cyacu.

Umunyeshuri ushaka kwiga rero akunda kujya mu ishuri ritarimo abandi banyeshuri ririmo ubusa, ukiyicarira ahantu mu kaguni ugasoma amasomo yawe utuje kandi utekanye, ibintu wize utuje ukunda kubyibuka kandi neza ugasanga utsinze neza ibizamini.

Kaminuza y'u Rwanda ifite inyubako nyinshi zitandukanye zakira abanyeshuri, ntabwo waba uri muri Kaminuza y'u Rwanda ngo ubure ahantu wicara wiga cyangwa ukora ibindi bitandukanye bijyanye n'amategeko agenga iyo kaminuza, ndahabakumbuje muzahasure.

Mu mashuri yisumbuye higwa isomo ry'ubutabire bita chemistry, iri somo abanyeshuri bigamo ibintu bitandukanye, ushobora kwigamo gukora imiti, ushobora kwigamo gukora isabune, ushobora kwigamo gukora amandazi n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abantu badahuye ngo bakore inama ntitwajya tumenya ibiri gukorwa n'urwego runaka. Inzego zose zaba iz'ubuyobozi ndetse n'izifasha abaturage, ziba zigomba kugira inama mu gihe runaka kugira ngo bungurane ibitekerezo ndetse bamenye n'ibigomba guhinduka.

Inzu igira ibyumba bitandukanye, habamo icyumba twese tuba duhuriramo aricyo kizwi nka saro, hakaba ndetse n'icyumba umuntu araramo, hashobora no kuba icyumba cy'abashyitsi ndetse n'icyumba cyo gutekamo rimwe na rimwe iyo iyo nzu nta gikona ifite hanze.

Umunyeshuri kugira ngo yige neza, akenera amazi meza kandi yo kunywa, iyo unyoye amazi meza ufasha ubwonko bwawe kuruhuka, kubera y'uko udutsi two mu bwonko iyo twabuze amazi ubwonko ntabwo bukora neza.

Iyo ugiye ahantu bwa mbere uba ugomba kureba ndetse ukitegereza cyane, aha ngaha iyo ubonye inzu yakirirwamo abantu niyo uba ugomba kwinjiramo kugira ngo bagufashe bakuyobora aho urimo ujya utayobagurika.

Nyamara n'ubwo u Rwanda rutarashyirwa mu bihugu byateye imbere, ariko njye mbona u Rwanda rwarateye imbere, reba aba bashakashatsi b'Abanyarwanda, uburyo babyitayeho kandi mu gihe gito bazaba bavumbuye ikintu gikomeye.

Iyo umuhanda ushaje uba ugomba gusanwa, kuko bituma abantu bahagenda bahagenda bameze neza ariko iyo batawusannye, usanga abantu bahagenda nabi basitara ndetse n'inkweto zabo zishobora kuhacikira bityo ntibishimire kuhanyura.

Mudasobwa ndetse n'irindi koranabuhanga tuzi nka porojegiteri biri gufasha cyane mu myigire. Mu mashuri yo muri kaminuza ntabwo wakwiga udakoresheje iyi porojegiteri.

Abarimu bigisha Imibare bakunda kugira imico itandukanye n'iy'abandi barimu, abarimu bigisha imibare ukunda usanga biyambariye amakote rimwe na rimwe n'inkweto z'ingozi kandi zishaje, sinzi impamvu abarimu b'Imibare benshi usanga bateye gutya.

Ishuri ryigirwamo ikoranabuhanga riba rigomba kuba rifite mudasobwa nyinshi ndetse abarezi baba bagomba kwigisha abanyeshuri kuri iryo koranabuhanga bakarimenya. Iyo wize ikoranabuhanga, uba uri gutera intambwe nziza kuko isi tugezemo ni iy'ikoranabuhanga.

Iyo abantu bakoze inama ntabwo baba bagomba kungurana ibitekerezo gusa, haba hari n'igihe bagomba kugira ibiganiro mpaka ku ngingo runaka kugira ngo barebe ibitekerezo bitandukanye, kandi barebe buri ruhande aho rufite intege nke bahazamure.

Icyorezo cya Korona virusi, cyatumye ahantu henshi bahashyira ubukarabiro, iyo ugeze ahantu runaka uba ugomba gukaraba ndetse n'iyo uvuye mu bwiherero na bwo ujye ukaraba, hanyuma ugende usa neza nta mikorobe ziri ku ntoki zawe.

Abakozi bakora amasuku muri Kaminuza y'u Rwanda, aba bakozi baba bafite umurava cyane kandi bafite akamaro gakomeye cyane kuko basukura ahantu hose ugasanga hasa neza, maze watembera muri iyi kaminuza ukumva uhishimiye.

Iyo ugiye kugera mu nyubako z'abantu b'abasirimu, uba usanga akenshi zibanzirizwa n'agahanda k'amapave, aka gahanda gatuma umuntu wavuye ahantu mu cyaro afite ibyondo, abisiga kwayo makaro ku buryo agera ku nyubako byamushizeho, ntiyanduze inzu z'abandi.